Abajyanama cyangwa se abafashamyumvire mu buhinzi ,bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imiti ikoreshwa ku bihingwa, ndetse n'imirama bakoresha binaza ibihingwa nka za karoti amashu n'ibindi

Umugabo wambaye isarumiti y'umukara, uhetse ipombo, wambaye n'agapfukamunwa, ahagaze mu murima w'ibigori, aribitera umuti wica nkongwa, irya ibigo igatuma bidakura.

Imiti ikoreshwa n'abagoronome babyigiye babifitiye n'ubushobozi. Bayikoresha batera ku bihingwa, byatatswe n'udukoko, harimo nka nkongwa, n'utundi dusimba dufata nk'ibigori, inyanya, bikazangiriza.

Umuhinzi wabigize umwuga ari gutera umuti ku bihingwa bye. Ibihingwa bigaragara neza bitoshye bifite ifumbire. Biri ahantu hitaruye ibindi, hari ibiti hejuru yabyo bibirinda izuba ryinshi.

Umugoronome uhagaze mu bihingwa, yambaye pompo irimo umuti ari kugenda atera kuri ibi bihingwa, abirinda udukoko tubirya tukabyangizariza tugatuma bidakura.

Umuhinzi wa kijyambere wahinze beterave, urusenda, pavuro ari kubitera umuti wica udusimba kugira ngo bikure neza, bikoreye amasuku birasukiye bifite itaka rihagije ndetse n'ifumbire.

Abantu bahagaze mu cyuzi, harimo umwe ufite indobani uri kuroba, harimo abandi bari gukora isuku inyuma yacyo, gikikijwe n'ishyamba ry'ibiti biringaniye, hejuru yacyo hari imisozi.

Umubyeyi w'umumama, ahagaze impande y'icyuzi cy'amafi, hagati mu cyuzi hashinzemo utuntu twubakiyeho na supanete barereramo utwana tw'amafi ari naho batugaburira kugira ngo badutandukanye n'amakuru atajya ducura. Icyo cyuzi kandi gihagazemo ikizu cy'ibiraro by'inkwavu bigaburira aya mafi.

Abasore bane bahagaze mu kiyaga bafashe indobani irimo amafi barobye, harimo umwe wambaye ubusa hejuru abandi barambaye baracyahagaze mu mazi bari kurebamo amato ngo bayasubizemo.

Umworozi w'inyamaswa zororerwa mu mazi ari mu bwato, afite indobo irimo ibiryo ari guterera agaburira izi nyamaswa ziri muri iki kiyaga.

Umubyeyi w'umumama wicaye hasi, afite igiti cy'ikawa ariko nta kawa ziriho nta n'ikintu afite cyo gusaruriramo, inyuma y'izo kawa hahinze urutoki, hari n'imyumbati.

Abahinzi b'icyayi bari mu murima bari gusarura icyayi. Hari ikeze bari gusarura bahetse n'udukoresho bagisaruriramo. Impande yacyo hari ikikiri gitoya kitarakura ngo kigere aho gusarurwa. Bamwe bageze imbere abandi baracyari inyuma.

Ibihingwa bitandukanye, harimo ikawa, harimo kokombure, harimo ibisheke, ndetse n'ibindi bihinze inyuma byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda.

Ababyeyi b'amama baje gusarura ikawa buri wese afite ikintu yasaruriyemo; hari umwe ufashe ku giti cy'ikawa, ikawa zihinzemo n'urutoki; hari ibitoki biriho, hari nizitarazana ibitoki. Inyuma yabyo hari igiti kinini cy'umuko.

Ikawa zitonoye zirunze hamwe zatangiye kubora, zabuze izuba ni nyinshi zabaye umukara, zikaba zikunda kwifashishwa mu gukora icyayi gifasha cyane cyane abantu bageze mu zabukuru.

Ibishashi birimo ifu ya vitame baha amatungo, cyane cyane inka, ingurube n'inkoko, byanditseho animo niyutirishoni sapulimenti biba bigizwe n'ibiro bibiri, bashyira mu mazi bagaha amatungo.

Farumasi irimo imiti bakoresha mu kuvura inkoko no kuzongerera umusaruro, harimo n'imiti y'intama n'ingurube, n'amavitamini yazo ndetse n'ibikoresho bifashisha bari gutanga iyo miti.

Imiti y'amatungo iri mu tudobo twa pulasitike ishushanyijeho amatungo atandukanye, yanditseho mega bulayinda, buri kadobo kagiye gapima ibiro bibiri.

Imiti wifashisha mu kuvura amatungo harimo inkuyo basiga ku mabere bagiye gukama, harimo n'imiti isanzwe y'ibinini baha amatungo by'inzoka.

Imiti itandukanye y'amatungo, ikoreshwa mu kuvura indwara z'amatungo zitandukanye, ikaba iri mu macupa magufi, ari imiti y'amazi harimo iyo batanga mu kanwa n'iyo batera mu rushinge.

IImiti myinshi y'amatungo itandukanye, harimo iy'umuriro, iy'inzoka ikaba inatandukanye mu ngano harimo iya miriritiro mirongo itanu, harimo iya miriritiro ijana.

Umubyeyi kwerekana ibiti byo gutera, uri mu muganda ubona ko abaturage baba baje mu muganda wo gutera ibiti.

Inkokokazi z'ubwoko bumwe bwa saso, ziri mu biraro bya kijyambere, ziri ku myitendeko aho zifata, zimwe ziri gufata ibiryo izindi zihagaze.

Abaturage babiri harimo uw'umugabo n'uw'umugore bari gushyira ibiti mu bihoho babyinazamo kugira ngo bizaterwe nyuma byamaze gukura, bafite n'ifumbire impande yabo bari kujya bashyiramo bavanga n'iri taka.

Abahinzi babiri bafite amasuka, umwe ari umugabo undi n'umugore. Bahagaze mu murima w'ibigori n'imyumbati n'urutoki. Impande yabyo haciyemo umuhanda.

Pepiniyeri ihinzemo ibiti by'inturusu biri mu bihoho batari bajyana gutera ku mihanda, inyuma yayo hakikijwe ishyamba ry'ibiti birebire bitangamo umuyaga muri iyo pepiniyeri.

Abajyanama b'ubuhinzi barimo umudamu ufashe igiti cyo guhinga, inyuma ye hari umugabo, inyuma y'uwo mugabo hari umusirikare, imbere ye hari umusore wambaye umupira w'umuhondo w'urugerero, afite n'amazi yo kunywa mu ntoki.

Ibigori bitabagariwe bivanze n'imyumbati, geveriya, imyembe, urutoki, ntibikoreye amasuku, byarumye, ubona ko wakuramo n'ubwatsi.

Ibijumba bihinze kijyambere birimo amoko menshi y'imbuto atandukanye bikoreye isuku byahawe n'ifumbire ihagije.

Igiti k'ironji kiririmo amaronji mato akiri mabisi atari yashya ariko ntago kitaweho cyatangiye kuma ntago gifite imbuto nyinshi.

Urubuto rw'ipapayi rugikura rutarazanaho imbuto. Rwifashishwa cyane n'abantu bafite ibibazo bya kontipasiyo ipapa irafasha mu koroshya mu nda.

Umuturage w'umugabo uri mu gishanga mu murima w'umuceri, afite ifumbire ari kujya ashyira ku muceri, yambaye umupira wacitse n'ikabutura y'umukara, afite n'isuka ari kujya akoresha kugira ngo ifumbire rijyeho neza.

Ibiribwa bitandukanye birimo karoti, pavuro, imineke, inyanya, amaronji, kokombure, imiteja n'intoryi...

Umurima uhinzemo ibiti by'imyumbati uhinzemo igiti cya gereveriya impande yacyo hahindze urubingo, imbere hahinzemo ibijumba.

Umurima w'ibigori byahuye n'izuba ryinshi biruma ufitemo ibyatsi byinshi cyane ibigori ntibyabagariwe, hari n'ibiti bibakikije ku ruhande birwanya isuri.

Ibigori bihinzwe mu buryo busanzwe byakubiswe n'izuba byo birumye byasarurwa ariko amababi yabyo aracyari mabisi ashobora kugaburirwa amatungo.

Kaburimbo inyuze hagati mu ishyamba rirerire cyane rikoze ibihuru, ku ruhande hashinze amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi nta kinyabiziga kiri muri iyi kaburimbo.

Ishyamba rinini cyane ririmo amazi amanuka, rikikijwe n'ibihuru byinshi ushobora gushakamo ibyatsi bigufi by'amatungo, bashobora no gukuramo ibyatsi bakoramo imiti ya Kinyarwanda.

Ishyamba rinini cyane rigizwe n'ibiti byinshi birimo n'ibihuru, imbere yaryo hari umurima uhingwamo, ku ruhande hari ikibuga kitarimo ibyatsi.

Ihyamba rigizwe n'ibiti birebire harimo ibibyibushye, harimo n'uduti tunanutse ririmo ibihuru byinshi turimo ibiti byarabye byifashishwa mu miti ya kinyarwanda, n'ibindi babazamo imbaho ibyo bakoramo inkwi n'ibindi.

Ishyamba rinini cyane ryiganjemo ibiti birebire, ririmo n'ibihuru byinshi harimo ibiti byashizeho amababi kubera izuba, harimo n'ikibaya mo hagati.

Ishyamba ryinshi cyane ririmo ibiti by'amoko menshi atandukanye hari igice kimwe kiri kuvamo izuba, ikindi gice izuba ryaharenze, harimo ibiti byarabye bifite indabo bifashisha mu miti ya kinyarwanda.

Ahantu heza cyane hafite ikirere cyiza, hatuwe harimo ibiti bitanga umuyaga, higiye imbere hari ibyatsi bitoshye harimo bimwe by'igihuru imbere hari ahantu hameze nko mu gishananga wagira ngo hahinzemo umuceri ndetse n'amazu nyuma,

Girini hawuze ihinzemo pavuro mu bihoho. atangiye kuma amababi zaranatukuye zareze zibura abazisarura. Ziratukura zifite ifumbire ihagije n'amazi ndetse hahinzemo n'urusenda.

Umugabo uri mu murima wa shufurere ari kugenda areba izeze n'izitari zera. Inyuma yazo hakikijwe n'ibihuru by'ibiti bigufi.

Abahinzi b'abamama batatu bari mu murima w'ibishyimbo, bari kwaha imiteja, babiri bari kureba imbere bari kwifotoza, undi umwe ari gusarura.

Umubyeyi w'umumama uhagaze mu murima wa corujete, afite ibibabi byazo mu ntoki, afite n'ingofero y'ikibohano, inyuma y'umurima hari igihuru kirimo ibiti biringaniye.

Imbuto zitandukanye ziri kumeza, harimo imineke, haririmo pome, harimo kokombure, harimo ibitunguru, imyanya, inkeri, inkarishya ndetse n'urusenda na karoti.

Abacuruzi bari gucuruza ibiribwa bitandukanye: karoti, urusenda, tungurusumu, intoryi, pavuro, inyanya, imiteja ndetse bashyize n'ibindi ku ruhande nka seleri n'intoryi.

Abaturage babiri umugore n'umugabo, bari mu murima w'ibigori n'ibihaza, bari kuhira, batera amazi akagenda akagera ku bigori byose, bari inyuma y'inzu yabo.

Ubuhinzi bw'ibigori bya kijyambere bihinze umurongo, bihinze mu gishanga byinshi, birimo imashini ziri kubyuhira, bisa neza nta zuba ryabivuyeho ryinshi cyane.

Umuhinzi ufite rozwari ebyiri z'icyuma mu ntoki zirimo amazi. Ari kuhira imbuto zisasiye nibwo zikiri kumera, ari kuzimenaho amazi kugira ngo zikomeze zizamuke, izuba ritazumisha.

Umurima w'ibigori bitoshye byatangiye kuraba, bimwe biri guheka, ibindi biracyari hasi, hejuru yabyo hanyuze imashini zibyuhira.

Umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani, uhagaze mu murima w'inyanya, afashe itiyo mu ntoki ari kuzuhira, impande yazo hakikije ibiti birebire bidafata ishyamba.

Ibigori bihenze ku murongo bya kijyambere, binyuzemo itiyo y'amazi nini hagati ibyuhira, iriho na robine bafungura amazi akuhira ibigori. Inyuma yabyo hari ishyamba ryinshi cyane.

Ubutaka bwo mu gishanga buhingwamo ibihingwa bitandukanye, harimo n'ikibuga cy'umupira, inyuma yacyo hakikijwe n'ibiti byinshi bikoze ishyamba, inyuma y'iryo shyamba harimo amazu atuwemo n'abantu.

Abaturage batuye ku misozi itandukanye kuva ku muturage umwe ugera ku wundi harimo intera nini cyane, hafite ubutaka butera bwiganjemo ishyamba, hari n'urutoki rwabuze ifumbire ahubwo rwabonye izuba ryinshi.

Ubutaka bukikijwe n'imisozi, imbere yabwo hari ibiti mu ishyamba, hagati hatuwe n'abantu, hakurya hari imisozi iriho indinganire inyuzemo umuhanda muremure.

Ikibaya kirimo amazu atuwemo n'abantu, igihizemo n'ibishyimbo, hejuru yabyo hari imisozi iriho indinganire, irimo n'ibiti birebire ariko bitari ishyamba.

Amaterasi y'indinganire ahinzemo icyayi hagati haciyemo ibiti by'ibirwanyasuri, hakurya yabyo hanyuzemo umuhanda inyuma yaho hari ishyamba.

Umurenge urimo indinganire, hateyemo n'ibiti by'amoko menshi atandukanye, harimo n'amazu atumo n'abantu, n'imisozi hejuru.

Ikirere gifite izuba rikeya kiganjemo urutoki rwinshi n'ishyamba rikeya, gifite imisozi itandukanye, hasi harimo ikibaya gihinze mo umuceri, hari n'ingo z'abaturage zikikije iyi misozi.

Ikirere cy'imisozi, irenga itanu, iriho ishyamba, rifite indinganire, munsi yayo hari igishanga gihinzeho umuceri ,hejuru hacyo hatuye inzu imwe y'umuturage ifite amabati y'umweru, ikikijwe n'urugo rw'ibikenyeri.

Umuveterineri wambaye isabuti y'ubururu na bote z'umweru n'ingofero y'umweru, yambaye ga, ari gukora mu nda y'inka, ahagaze inyuma y'urupango, ari gupima ko ifite amezi.

Umworozi w'inkoko ari mu kiraro cy'inkoko cya kijyambere ari kugenda yandurura amagi inkoko zateye yagiye ajya mu tuntu twateganyijwe inkoko zizajya zitera akahita amanukamo buiri dayirekitiri, noneho umworozi akaza akayakuramo akayajyana ahabugenewe.

Inka z'amoko menshi atandukanye ziri kuririsha mu rwuri ziri kumwe zimwe zifite utwana twazo, umushumba wazo nawe nguriya aho ahagaze inyuma mu biti izuba ryazishe...

Inka zifite ibiraro bya kijyambere ziri kurya ubwatsi bucopinze, bazorohereje kuburya ziri kumwe n'umuveterineri uzitaho umunsi ku munsi.

Inka ziri mu rupangu z'inyambo, ziri kumwe n'abashumba bazo na veterineri waje kuzivura, yahereye kuri imwe, izindi bazirangaje imbere kugira ngo zitagira uwo zikubita ariya mahembe.

Inzu yororerwamo inkoko yubatse ku buryo bwa kijyambere, ifite ahantu haturuka umuyaga irimo inkoko z'ubwoko bumwe z'umweru, zifite utuntu twigiye hejuru ziriramo.

Ifamu y'ihene zitandukanye zihagaze ahantu hamwe, zirimo amabara y'umweru n'iz'umukara, harimo n'izi'ikigina zikikijwe na senyenge n'ibyuma, hari iziryamye hari n'izihagaze.

Umuveteneri uhagararanye n'abasitajeri babiri bambaye amasarobeti, bahagaze impande y'urupango rurerure rw'inka rurimo inka z'inyambo, veterineri yambaye ga abandi nibwo bari kuzambara.

Inka y'ikimasa ikiri ntoya, ihagaze mu kiraro gisasije ishinge, cyubakishije imbaho n'ibiti, impande yacyo hari nyina ifite amababa y'umweru n'ikigina, icyo kimasa cyo gifite amabara y'umukara n'umweru.

Ingurube y'ubwoko bwiza cyane y'inshashi itarabyara, iri abantu bakoreye isuku humutse ariko idafite ibyo kurya, iri kugerageza kurya isasiro ryayo.

Inkoko z'ubwoko bumwe, zororewe ahantu hamwe nyinshi, zigiye zifitemo utuntu ziriramo n'utwo zinyweramo amazi, zagiye zerekeza aho zijya kurira; izindi ziri gutemberamo, ntiziri kurya, ntiziri no kunywa amazi.

Ibiganza byayoye isoya mu ntoki isoya bifashisha bakaranga bakazihekenya, ushobora no kuzisya ukazikoramo ifu wavanga n'igikoma cyangwa ugashyira mu buryo, zikunda gukoreshwa n'abantu bari mu mirire mibi.

Umugabo uhagaze afite imbuto mu ntoki zo guhinga, ari kwerekana uko zimeze, bazifotoye, azifashe mu kiganza.

Imbwa eshatu ziryamye ku biringiti zambaye imigozi mu ijosi, zirarwaye buri yose ifite ifishi yayo iri kuvurirwaho, zifite n'umuveterineri uri kuzitaho. Ziryamishijwe ahantu heza nta mwanda uri kuzigeraho.

Ishyo ry'inka nyinshi ziri mu rupangu ziri kumwe n'umushumba wazo wambaye isarubeti na bote z'umweru, yambaye ga ari kumwe n'umuveterineri wambaye itaburiya na we ari kwambara ga.

Abaveterineri babiri bambaye amataburiya y'umweru, bahagararanye n'abanyeshuri bari muri staje bambaye amasarubeti y'ubururu, bahagaze imbere y'urupangu rw'inka rurimo inka z'inyambo, bari kuzisuzuma uko zihahagaze.

Umuveterine uri gukora inka mu nda, ari kumwe n'abantu babiri bamufashije, bamufatiye umurizo, hari n'ufashe ikiziriko, bari kugerageza, kubyaza inka.

Inyamaswa yo mu gasozi y'ininzovu, ihagaze mu byatsi, munsi y'igiti cy'umuyinya, imbere yacyo haparitse imodoka ya bamukerarugendo, irimo umushoferi, atwaye umuntu umwe.

Inyamaswa yo mu gasozi yitwa inzovu, iri kumwe n'indi ku ruhande iringaniye, inyuma yayo hari agatoya ziri kugenda mu byatsi, inyuma yazo hari ishyamba rinini.

Inyamaswa zo mu gasozi zimwe zihagaze mu mazi zaje kunywa amazi, indi imwe ihagaze hejuru y'amazi, zose zirarangaye ntabwo ziri kunywa amazi, bisa nk nk'aho hari ikintu zumvise.

Inyamaswa yo mu gasozi ihagaze mu byatsi, ifite amatwi magufi nk'ay'ipusi, ariko ifite ikirizo kibyibushye cyane iri kureba imbere ishaka kwiruka.

Inyamaswa zitwa inzovu ni inyamaswa zo mu gasozi harimo inzovu nini ndetse n'iringaniye n'akana gatoya biri gutembera mu byatsi.